Ifumbire mvaruganda dukoresha ku bihingwa byacu turi kubitera cyangwa byaramaze kumera, ifasha ibihingwa mu gukura neza, ikabirinda ibyonnyi no kurwaragurika.

Ifumbire y'imimborera ni ifumbire nziza cyane. iva ku matungo maremare cyangwa magufi, n'ifumbire ifasha ibihingwa gukura neza, iyo ugiye gutera ibihingwa byawe wifashisha ifumbire y'imborera ukavangamo n'imvaruganda, bigatuma igihingwa cyawe gitanga umusaruro mwinshi kandi mwiza.

Ibihingwa byitaweho neza， bitanga umusaruro ushimishije， iyo umuhinzi yitaye ku gihe cyo gutera， imiti ibihigwa. bye bituma hirinddwawi ibyonnyi bishobora kwangiza ibihingwa bye.

Hari imiti yica udukoko mu bihingwa, wahinze ibihingwa byawe ni ngombwa gushaka imiti yicagamo ubukoko kugira ngo ubwo bukoko butangiza ibihingwa byawe ukabona umusaruro muke, ni byiza ko umuhinzi amenya ubwoko bw'igihingwa yahinze n'umuti wacyo.

Ifumbire mvaruganda, n'ifumbire nyongeramusaruro iva mu ruganda, yunganira imborera igatuma ibihingwa byacu bikura neza, bigakurana igihagararo cyiza kandi bitarwaragurika, ifumbire mvaruganda hari ahantu bayicuruza, usanga hari imifuka myinshi irunze ahantu hamwe, ukaza ukagura iyo ukeneye bakayigu ukayijyana.

Imiti yica udusimba ku bihingwa, ifasha ibihingwa byacu gukura neza, igatuma umusaruro wiyongera , bigatuma igihugu cyacu gitera imbere binyuze mu musaruro uhagije.

Ubworozi bw'amafi bwa kijyambere bufasha igihugu mu kurwanya imirire mibi mu bana, bugatanga akazi ku baturage bamwe na bamwe b'igihugu, bugafasha igihugu mu gukurura ba mukerarugendo, bakinjiriza igihugu amadovize.

Amafi yitaweho neza kuva aterwa mu mazi, atanga umusaruro ushimishije, iyo wayasaruye usagurira amasoko ukabona n'ayo urya mu rugo, bigatuma imirire mibi icika burundu cyangwa ikagabanuka hamwe na hamwe.

Ibiyaga bigize igihugu cyacu bituzanira amafaranga kubera ko bikururara ba mukerarugendo baje kubireba, bigatanga n'akazi ku mahoteri abikikije, yakira ba mukerarugendo bitanga n'amazi dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Kugira ngo urobe amafi yawe, ugomba kumenya neza ko akuze, ukaroba amafi igihe kigeze, kugira ngo ukuremo umusaruro ushimishije, ukabasha kwihaza mu biribwa, ukaniteza imbere.

Ubworozi bwo mu mazi ni ubworozi bwiza cyane ,butanga umusaruro mwinshi kandi mu gihe gito, bugatanga akazi ku bashomeri benshi batandukanye, bigatuma n'igihugu cyihaza mu biribwa.

Kuroba ni igikorwa gikorerwa mu mazi, abarobyi bashaka indagara cyangwa amafi, bigatuma bihaza mu biribwa bakabona n'amafaranga mu gihe bajyanye umusaruro wabo ku isoko.

Ifi ivamo ifunguro riryoshe cyane. Iyo ufite ifi yawe utegura isosi imeze neza ukayirisha icyo waba ufite cyose, hanyuma umubiri wawe ukabona intungamubiri zihagije zitaririmo ibinure, kuko amafi ntaho ahurira n'ibyo binure byinshi.

Inyama y'ifi ni inyama iba nziza cyane, uburyo bwiza bwo kuyitegura ugomba kubanza ukayikandiraho indimu, kugira ngo umuhumuro mubi w'ifi ube wayivamo, ukabona gushyiraho ibindi birungo.

Uburobyi bw'amafi ni igikorwa gikorwa n'abaturage boroye amafi yabo ahabugenewe, bagashyiramo buri kimwe cyose gishoboka, umusaruro wamara kuboneka, bakaroba amafi yabo bakihaza mu rugo, bakihaza no ku mafaranga iyo bajyanye umusaruro wabo ku isoko.

Imirima iri ahantu h'ikibaya, bahinga mu buryo bw'imitabo kugira ngo amazi naza abone aho yirundira hamwe hatandukanye n'ubutaka, bityo bigatanga umusaruro uhagije mu bice by'ikibaya.

Imbuto n'imboga bikikije urugo, bifasha umuryango mu buzima bwa buri munsi. Iyo imboga zeze turasoroma, tukaziteka tukarya, imbuto zera tukazica tukarya, byatubana byinshi tugasagurira amasoko, ndetse ibiti by'imbuto bikurura umwuka mwiza duhumeka.

Ishyamba ni uruhurirane rw'ibiti biteye ahantu hamwe, ritavanzemo ikindi kintu na kimwe, ishyamba ni umushinga utwara igihe kirekire, kuko kugira ngo rikure bisaba imyaka myinshi, hagati ya makumyabiri, ishyamba ryawe iyo wa ryitayeho neza ukarikorera ibisabwa byose, ubona umusaruro ushimishije, ritanga n'umwuka mwiza abantu duhumeka.

Ibirayi byitaweho neza, biri hafi gutanga umusaruro mwinshi kandi mwiza. Umuhinzi ari hafi kujya gukuramo ibyo guteka, akure n'ibyo kujyana ku isoko bamuhe amafaranga yiteze imbere.

Karoti ziri hafi gutanga umusaruro kuko zitaweho neza, bizafasha umuhinzi kubona ibyo arya asagurire n'amasoko, bifashe n'umuguzi kubona ibyo ahaha mu buryo bworoshye bityo biteze imbere igihugu cyacu.

Umurima watunganyijwe neza, bateramo imbuto yabo iri hafi kuzamuka ikamera ikajya hejuru ku butaka, bityo umuhinzi mu minsi mike araba yita ku bihingwa bye bikure neza azabone amafaranga menshi nasarura.

Igisambu ni ahantu haba harasaruwe imyaka. Iyo imyaka yeze ukayisarura hasigara ubutaka bwonyine ni bwo bita igisambu.

Igiti cy'avoka ni igiti kibaga cyiza cyane, gitanga umusaruro uhagije. tukabona avoka zo kurya mu rugo, tugasagurira n' amasosoko, bigatuma twiteza imbere mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Utuyira two muri karitsiye bakunda kwita utuyira twa panya, tudukoresha tugiye ku bigo by'amashuri, ku bitaro no ku isoko, tukatwifashisha tujya ku mirima yacu, tukanaduhuza n'inshuti zacu.

Garaviye ni utubuye dutoya tuva mu mabuye manini baba bahondaguye. Ahantu hanyerera cyane cyane harega amazi, uhasuka garaviye ntihongere kunyerera cyangwa kurega amazi.

Ibigori iyo byitaweho neza kuva mu gutera kugera mu gusarura bitanga umusaruro ushimishije, ni byiza kudatera ibigori byinshi cyane mu murima, kuko iyo bikuze bibura aho bikurira bigatuma biheka utugori dutoya.

Ibirayi byitaweho neza bitanga umusaruro mwinshi kandi ushimishije, uyu muhinzi yabihaye umwanya we, mu mezi atatu gusa aba ari gusarura, akihaza mu biribwa, akazasagurira n'amasoko.

Amateke ni igihingwa gikunda guhingwa ahantu hari amazi menshi . Ni igihingwa kirimo ubwoko bw'ibinyamafufu kiraryoha cyane , wacyitayeho neza ubona ayo kurya mu rugo ukajyana no kwisoko bakaguha amafaranga.

Imiteja ni igihingwa cyiza cyane, gitanga umusaruro mu gihe gitoya, iyo uteguye umushinga wo guhinga imiteja, ukirigita ifaranga byoroshe cyane, kuko ku isoko imiteja iba ikunzwe n'abatari bakeya kandi usanga itari ku giciro kiri hasi cyane.

Gukorera hamwe ni igikorwa cy'ingirakamaro mu banyarwanda . Abantu bishyize hamwe bagakorera hamwe ,bahuriye ku gikorwa runaka ,kirangira vuba kuko baba ari benshi. Bahuza ibitekerezo bakanunga ubumwe hagati yabo.

Ubuhinzi bw'ibishyimbo bigufi cyane cyane ahantu h'ibishanga ,butanga umusaruro ushimishije, iyo byitaweho neza umuhinzi agashyiramo imbaraga zose, haboneka akazi ku bashomeri batandukanye. Umuhinzi iyo amaze gusarura ajyana ku isoko akabona amafaranga akiteza imbere.

Ubworozi bw'amatungo magufi ntabwo bugora, kuko butwara ahantu hato ugereranyije n'ubw'amatungo maremare ,urugero nk'ihene ushobora kuzororera icyari rimwe ari nk'icumi ,ufata ihene imwe ukayizirika ku giti cyayo bita inkomangizo, ubundi ukituriza.

Ubuhinzi ni akazi gasuzugurwa n'urubyiruko rwinshi ngo ni akazi gasuzuguritse, nyamara mu by'ukuri ubuhinzi iyo wabwitayeho neza, ni akazi keza cyane, gatanga inyungu nyinshi, kandi mu gihe gito.

Icyayi kigeze mu gihe cy'isarurwa, kuko cyitaweho neza, icyayi kugira ngo gisarurwe, bisaba kugira ngo kibe kirimo amababi ahagije agaragarira amaso, abantu bagisarura babita banozi b'icyayi.

Urugendoshuri ku banyeshuri, rufasha abanyeshuri kumva neza ibyo bize mu ishuri babyibonera n'amaso, bakamenya amoko y'ibiti bakamenya amoko y'imbuto, bigatuma barushaho kubyumva neza ugereranyije n'uko babyize ku magambo gusa.

Amasaka, igihingwa ngandurarugo, iyo wayitayeho neza akiri mu murima ubona umusaruro ushimishije, avamo igikoma, tuyashigisha tukanywa, tukayinika tukayngamo umusururu cyangwa ikigage, tuyajyana ku isoko tukabona amafaranga yo kwikenura.

Urukwavu ni itungo ryorererwa mu rugo, iyo waryitayeho neza ukaririnda ubukonje ritanga umusaruro, ribyara utwana duhagije kandi mu gihe gito, ukabona amafaranga kuyiteza imbere washaka ukirira akanyama.

Ubuhinzi bw'icyayi akenshi usanga buhingwa ahantu hari ubutumburuke buhagije, iyo urebera kure Uba ubona ari ahantu hameze nkaho hari ibyatsi bigufi biringaniye bisa neza cyane, icyayi gitanga umusaruro kuko tucyohereza mu mahanga, ni igihingwa cyitwa kashi kuropusi.

Isoko ry'ibiribwa hari ibirayi byiza cyane bita Kinigi ,ni ibirayi bikunda kwera mu gice cy'amakoro cyane cyane mu Kinigi ,ibyo birayi biraryoha cyane ugereranyije n'ibindi birarayi.

Ibigori biri hafi gutanga umusaruro， cyane cyane iyo bigeze mu gihe bavuga ngo birahetse， usanga ibyinshi bihetse bibiri cyangwa kimwe， ukamenya neza ko ibigori byawe bizera cyangwa bizarumba.

Gufatanya mu guhinga biba byiza cyane. Iyo abantu benshi bahuriye mu kinani kimwe, intabire yo guteramo imyaka iboneka vuba, bagatera imyaka yabo. Umusaruro ukihuta ugereranyije n'uko umuntu umwe yajya mu kinani agahinga wenyine.

Ibi birayi biri hafi gutanga umusaruro， kuko byitaweho neza cyane，umuhinzi azabona ibyo arya mu rugo iwe， maze asagurire n'isoko abone amafaranga yo kwiteza imbere， atange akazi ku bashomeri bamwe na bamwe.

Umuhinzi witaye kw'inanasi ze neza abona umusaruro uhagije binyuze muri ubwo buhinzi bityo igihugu kikabona amafaranga binyuze mu misoro n'umubare w'abashomeri ukaba wagabanuka.

Umusaruro w'imyumbati uragaragaza ko imyumbati yitaweho kuva mu itera kugera mu isarura. Imyumbati yasaruwe bisaba kuyitaho kugirango idahura n'ikibazo cyo kubora.

Mu isoko ryacu harimo ibitoki byiza cyane. Tuguhagurira ku maseri cyangwa se tukagupimira ku biro ubishaka. Hari n'ibitunguru byo gushyira muri ibyo bitoki turiguteka n' inyanya, hariho n'umuceri wo kurisha ibyo bitoki.

Igihingwa cy'ibirayi gitanga umusaruro mu mezi atatu gusa, iyo cyitaweho neza gitanga amafaranga menshi, kigaha akazi abakozi batandukanye mu gihe cy'ihinga, icy' itera n'icy'isarura.

Inyanya zitaweho neza ziri hafi gutanga umusaruro ahatewe imiti uko byagenwe, zihingwa ku itaka ryiza, umuhinzi yazihaye umwanya we wose, azateka mu rugo iwe asagurire n'isoko abona amafaranga yiteza imbere.

Ibishyimbo by'imiteja byitaweho neza bitanga umusaruro uhagije, iyo miteja turayiteka mu rugo, tugasagurira n'isoko bigatuma haboneka amafaranga yo kwifashisha mu bindi bikorwa bya buri munsi bitandukanye.

Amapera ni urubuto rwiza cyane ,rufasha umubiri wacu kwirinda indwara ,iyo yeze mu rugo, abagize urugo bihaza mu biribwa bagasagurira n'amasoko bakabona amafaranga.

Ubwanikiro bwiza bwujuje ubuziranenge, butuma umusaruro wawe wumva ufite ubuziranenge buhambaye kuko iyo umusaruro witaweho mu gihe cyo kwanika, nta kibazo ushobora kugira na nyuma yaho.

Umusaruro w'amagi udufasha, mu buzima bwacu bwa buri munsi, nko kuyateka cyangwa kuyagurisha, bigatuma turwanya imirire mibi mu bana, tukagurisha tugakuramo n'amafaranga, tugakemura ibibazo bya buri munsi.

Ubuhinzi bw'indabyo buba bwiza cyane, kuko iyo indabyo zeze haboneka akazi ku bashomeri bamwe na bamwe batandukanye. Umuhinzi w'indabyo ajyana ku isoko indabyo yejeje, yagera ku isoko bakamuha amafaranga, akiteza imbere.

Igihaza kiba mu biryo byiza cyane, kiraryoha cyane cyane iyo wakigeretse ku bishyimbo, ariko niyo udafite ibyo bishyimbo ugisaturamo duto duto ukagiteka cyonyine ukaba wakiririsha ibindi biryo wateguye.

Umugende ni umuyoboro utwara amazi, iyo amazi yabaye menshi mu gihe cy'imvura nyinshi, uca umugende mu murima cyangwa mu myaka, ugatwara ayo mazi ukayajyana aho agomba kujya.

Ibigori bigeze mu gihe bita kumya umusatsi biba ari ibigori biri hafi gutanga umusaruro, iyo hashize igihe gito byumije umusatsi wa mbere umuntu ajyamo akaba yabona icyo kotsa hanyuma yaho bikuma umuntu akabisarura agasagurira isoko.

Umwembe uri hafi gutanga umusaruro ushimishije, kuko witaweho neza. Umuhinzi azarya asagurire n' amasoko, kuko umusaruro wava hano ntiyawurya ngo awushobore. Bityo bizamuha amafaranga yo kwiteza imbere mu buzima bwe bwa buri munsi.

Hari amamera yumye neza, hari ibishyimbo, hari ibigori byose ukeneye ibinyamisogwe, ibinyampeke, urihahira nta kibuze, ku giciro cyiza.

Mu isoko hari ibitoki byiza cyane byo kurya, hari inanasi nziza cyane, imineke n'ibindi byinshi bitandukanye, ukeneye kwihahira, wanyarukira mu isoko bakaguhera ku giciro cyiza kandi gito.

Mu isoko habamo imboga zitandukanye hari ofmo: karoti, pwavuro, amashu na shufureri. Hakabamo ibirayi n'ibijumba hakabamo inyanya n'ibindi byinshi.

Uyu muhinzi yahinze ibigori abyitaho neza, biri hafi kumuha umusaruro ushimishije, azabona ibyo arya asagurire n'amasoko, kandi atange akazi ku baturage bamwe na bamwe, mu gihe arimo kubisarura.

Amashu ari hafi gutanga umusaruro kuko yitaweho neza, mu minsi iri imbere barayajyana ku isoko ni yera, ayandi bayateke bayarye, atange akazi ku baturage benshi badafite akazi.

Itunda ni urubuto rwiza cyane ruryoha. Ruribwa n'ingeri zose z'abantu: Abana, abakuze, rikarinda indwara mu mubiri w'umuntu uririye. Kandi iyo umuhinzi yejeje amatunda menshi akajyana ku isoko bamuha amafaranga akiteza imbere.

Igitoki iyo kitaweho neza umuhinzi abona umusaruro ushimishije, agataramo imineke yo kurya, akengamo urwarwa rwo kunywa akengamo n'umutobe wo kunywa bityo akabona amafaranga cyangwa akakijyana ku isoko abandi bakakigura.

Hano hari imbuto n'imboga. Mu mboga dufite harimo imiteja, intoryi na puwavuro, tubikoresha turi guteka. Hari n'indimu dukoresha cyane cyane iyo twarwaye inkorora.

Ikigori cyokeje gifite akamaro kenshi mu buzima bwa buri munsi, uwakiriye agira imbaraga nyinshi kuko kiri mu bitera imbaraga, rero uwariye ikigori ntapfa kugira inzara uko yiboneye.

Igitoki gihiye gifite akamaro kanini cyane, turakirya tukacyengamo umutobe wo kunywa, tukacyengamo urwagwa rwo kunywa, tukanakijyana ku isoko tukakigurisha, bakaduha amafaranga.

Inkoko yitaweho neza itera amagi, ayo magi hamara iminsi makumyabiri n'umwe inkoko iyarariye hakavamo udushwi, utwo dushwi tugakura na two tukavamo inkoko nini. Twaba inkoko nini na two tukazatera amagi.

Amatunda aba meza cyane kuko arinda indwara ku mubiri w'umuntu ugarya, agatanga amafaranga iyo wayajyanwe ku isoko wasaguriye isoko, bigatuma umuhinzi wayo yiteza imbere binyuze mu kuyagurisha.

Ihene ni itungo rigufi ritanga umusaruro mu gihe gito, kandi ntabwo rigora kuryorora, kuko ujya kurizirika mu gihuru, rikirishiriza ubwatsi ryihitiyemo bitagombereye ngo ujye kuryahirira.

Ikinyomoro kitaweho neza kiri kuzamuka gishishe, umuhinzi ari hafi kubona umusaruro. Azabona imbuto zo kurya mu rugo, asagurire amasoko, abone amafaranga yiteze imbere.

Ubufatanye ku bagabo n'abagore burafashaga cyane iyo umugabo afatanyije n'umugore we mugukora imirimo yo mu rugo birukankaga mu iterambere ugasanga bari kwihaza mu biribwa bagasagurira namasoko.

Ibihingwa biri mu gihe cy'ishingirirwa, umuhinzi abyitaho neza, biteye ku mirongo kugira ngo bitazacuranwa mu butaka, bibona ifumbire rihagije n'amazi ahagije. Umusaruro uzaza ari mwiza cyane.

Ikirungo bita puwavuro ni ikirungo cyiza cyane gifatwa nkimboga, kigira amabara atatu, umutuku, umuhondo cyangwa icyatsi, tubikoresha turi guteka ibiryo, cyane cyane isosi.

Kuhira imyaka bikorwa mu gihe cy'izuba, umuhinzi wahinze imyaka ye izuba rigasanga itari rera afata umupira wamazi akagenda acucira mu myaka ye, kugira ngo igaragare nk'aho imvura ya yiguyemo igatanga umusaruro uhagije kandi ushimishije.

Umusaruro w'avoka ugaragara neza iyo uri ku duseke . Avoka ni ikiribwa cyiza cyane kidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Turayitara tukayirya ,tukayijyana mu masoko ,mbese ikaduha amafaranga dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ubwanikiro bw'imyaka buba bwiza cyane, kuko bufasha imyaka kuma neza, ihura n'ikibazo cyo kwangirika bigafasha ubuhinzi kubungabunga umusaruro ku neza akabujyana ku isoko bakamuha amafaranga.

Isombe ni imboga nziza, cyane cyane hano iwacu mu cyaro, tuziteka mu buzima bwacu bwa buri munsi, tugasagurira isoko, tukabona amafaranga yo kwiteza imbere, tukanarwanya imirire mibi mu bana, kubera iyo sombe yacu.

Ubuhinzi ni isoko dukesha ibirirwa mu gihugu cyacu, kandi ni umwuga utunze abantu benshi muri iki gihugu, iyo ufashe isuka yawe ukayoboka umurima, ugahinga kijyambere ugakurikiza amabwiriza y'abagoronomu, ntakabuza witeza imbere.

Imbuto ziba nziza cyane ku mubiri w'umuntu, kuko zifasha umubiri mu kwirinda indwara nka maronji, afasha umubiri mu kongera aside forike mu mubiri bigatuma umuntu agira ubuzima bwiza.

Igiti cy'umwumbati cyitaweho neza gitanga umusaruro ushimishije. Umuhinzi abona iyo arya iwe agakoramo ubugari agasagurira n'amasoko akabona amafaranga yo kwiteza imbere, akabona n'igishoro cyo kongera guhinga iyindi myumbati.

Ubuhinzi bw'indabo iyo bwitaweho neza butanga umusaruro mwinshi ushimishije, bigaha akazi abashomeri benshi, bigatuma n'umuhinzi abona amafaranga y'indabo ze azijyanye ku isoko cyangwa akazijyana hanze y'Igihugu.

Igihingwa cy'ibijumba cyitaweho neza ,kigeze igihe cy'isarurwa . Umuhinzi agiye kwihaza mu biribwa abone amafaranga avuye muri uwo musaruro we , yiteze imbere ,ateze n' imbere igihugu cyacu.

Avoka iri mu bwoko bw'imbuto bw'ibinyamavuta ,ni urubuto rwiza cyane kuko rufashamo imirire ya buri munsi, iyo ufashe avoka ugakatira ku biryo byawe ,bituma ibiryo byawe bitubukaka ,kandi ukaba ufasha intungamubiri nziza.

Umurima wo guhingamo wateguwe neza utanga umusaruro mwiza cyane. Iyo wawitayeho ukawuhinga neza ufite isuku, ugateramo imyaka yawe, izamuka neza ukabona inyungu ugasarura bishimishije.

Amahundo ni igice cyo hejuru cy'amasaka iyo yeze utemaho icyo gice cyo hejuru ukakibika, hanyuma uko ugiye ukenera amasaka make make ugenda ufataho ugahura uko uyakeneye.

Mu gihe cy'isarura, usanga abahinzi benshi bahurira imyaka yabo mu murima, mu buryo bwo kwirinda imvune nyinshi zo kwikorera imyaka bayijyanye mu rugo, kugira ngo bahurire mu rugo, bahitamo kuyihurira aho bayisaruriye, hanyuma bakikorera ibyavuyemo, noneho ibisigazwa bakabisiga mu murima.

Umuhinzi ari hafi gukirigita ifaranga, uko ibihingwa bye bigeze igihe cy'isarura, agiye kwikenura mu biribwa, asagurire n'amasoko abone amafaranga yo kwiteza imbere.

Amashaza ari hafi gutanga umusaruro yitaweho neza n'umuhinzi wayo, afite imishogi ihagije kandi ishimishije mu minsi mike arasoroma ayo gutekamo urunyogwe, niyuma azagurishije cyane ku isoko, abone amafaranga yo kwiteza imbere.

Amajeri yumye ni umusaruro ushyirwa mu kiciro k'ibinyamisogwe. Umuhinzi wayo iyo yayejeje aba ameze neza cyane，agira amafaranga menshi，iyo uyajyanye ku isoko， baguhera ku giciro gishimishije.

Ikigori cy'amatoni n'ikigori cyera kivangavanze amabara, usanga gifite amabara atandukanye umutuku, umuhondo, umweru, umukara, ubururu, ushobora no guhinga ikigori gifite ibara rimwe mugenzi wawe agahinga ikigori gifite irindi bara, ugasanga usaruye ikigori gifite ibara rya mugenzi wawe kubera kubangurirwa.

Igihingwa cy'ibigori kidufasha mu kubona ibyo kurya urugero nk'umutsima, igikoma n'impungure. Bigatuma ingo nyinshi zo mu cyaro zihaza mu biribwa kubera igihingwa cyacu cy'ibigori.

Amasaka ari hafi gutanga umusaruro kuko yitaweho neza. Umuhinzi ari hafi: kuyasarura, akayahura, akayanika ,akuma neza, hanyuma akayajyana ku isoko, agasagura n'ayo azashigishamo igikoma.

Ingano zitaweho neza zitanga umusaruro ushimishije, tukazikoresha tunywa igikoma, turya umutsima, tukazijyana ku isoko bakaduha amafaranga, tukanasagura izo tuzongera guhinga muri sezo zikurikira.

Ubunyobwa ni umusaruro ukomoka ku binyamisogwe. Tubusheshamo ifu tugashyira mu biryo bikaryoha, tukanabukaranga, tukabuhekenya tukaburya.

Ubunyobwa ni igihingwa usanga gifatwa nk'ikinyampeke, ariko uburyo cyeramo biratangaza, aho kugira ngo cyere nk'ibindi cyerere hejuru, usanga cyo cyerera mu butaka.

Umusaruro witaweho neza w'ubunyobwa burumye neza bugeza igihe cy'igurishwa umubuhinzi yarabusaruye, arabwanika buruma neza, ashaka yabugurisha budatonoye cyangwa akabugurisha butonoye.

Intara n'igikoresho cyo mu rugo, twifashisha turi kugosohora ibinyampeke n'ibinyamisogwe, tugikoresha turikugosora amasaka, ingano, n'ibigori cyangwa ibishyimbo na mashaza.

Ubunyobwa ni igihingwa gihingwa kikerera mu butaka kandi mu by'ukuri ari ikinyamisogwe. Kera nk'ibinyabijumba kandi kiri mu bwoko kw'ibinyamisogwe, tuba ari utuntu dufungiye mu kantu kamwe iyo bweze urarandura, ugasogo ukabwanika bukuma neza hanyuma ukabutonora.

Ubuhinzi bwi'ibinyampeke buba bwiza kuko butanga akazi ku bashomeri benshi, bugafasha umuhinzi mu kuyihaza mu biribwa no gusagurira amasoko.

Umusaruro w'umuceri ufasha abahinzi mu buryo bwinshi butandukanye, barawuteka cyangwa bakawujana ku isoko bakabona amafaranga yo gukemuza ibibazo byabo bya buri munsi.

Ibishyimbo biba byiza cyane ku mubiri w'umuntu. Bifasha umubiri mu kwiyubaka, kandi umuhinzi wabyo ntashobora guhura n'ubukene kuko iyo yejeje ibishimbo bye, abijyana ku isoko abadahinga bakamugurira, bakamuha amafaranga.

Ubunyobwa bwitaweho neza bugira umusaruro ushimishije cyane. Iyo umuhinzi abwitayeho neza, abona amafaranga menshi. Kuko ubunyobwa bugura amafaranga menshi, iyo bwahinzwe mu butaka bwagenewe kubuhingamo, butanga umusaruro mwinshi.

Ubuhinzi bwagutse kandi bwa kijyambere ni ubuhinzi butanga umusaruro mwinshi. Iyo umuhinza ahinze ku mirongo abasha gukurikirana ibihingwa bye agendeye kuri iyo mirongo yaciye, bigatuma ibihingwa bigira kwisagagura muri uwo murima.

Amahundo ni umusaruro ukomoka ku bigori, iyo wanitswe neza ukarindwa imungu, havamo imvungure dukoresha turi gusheshamo igikoma, tukanasheshamo umutsima wo kurya.

Kugira ngo uhinge ibinyampeke bimere vuba urabanza ukabitumbika bikamera bikazana umumero hanyuma ukajya kubihinga mu murima, iyo wabanje kubitumbika bizamuka vuba cyane.

Ibigori byumye neza iyo ushaka kubitera mu murima wawe, urabanza ukabitumbika mu mazi menshi bikarengerwa, hanyuma wabona byazanye umuzi, ukajya kubitera, icyo gihe byihuta kumera, ntibitinde mu butaka

Izi soya ziri hafi gutanga umusaruro ushimishije, tuzazishesha tuzishigishemo igikoma, izisagutse tuzijyane ku isoko tubone amafaranga yo gukemuraza ibibazo bya buri munsi.

Ibigori bibitswe mu buryo bw'amahundo biba byiza cyane, kuko urabimanika ntibigutware umwanya mwinshi wo kuwanika, ukagenda ufataho bike bike ugahungura, ukabikoresha icyo ushaka, bitiriwe birakugora ngo uri kwirwa wanika no guhungura.

Umusaruro witaweho neza, umuhinzi agiye gukirigita ifaranga najyana umusaruro we ku isoko kuko yawitayeho neza, yiteze imbere, ateze imbere n'igihugu cyacu binyuze mu misoro.

Hano hari amoko yose y'ibinyampeke, ushaka kubetesha agakoma keza cyane uraza ukagura amoko yose y'impeke, ukabetesha ukanywa igikoma kiryoshye wowe n'umuryango wawe.

Ibinyampeke bifite akamaro ku buzima bwacu bwa buri munsi harimo ingano tuzishigishamo igikoma tukazisheshamo umutsima wo kurya tukanazijyana ku isoko bakaduha amafaranga.

ingurube yitaweho neza itanga umusaruro ushimishije kuko ibwagura iyana hagati ya bitanu na cumi na bibiri buri cyan kirwa ibihumbi biri hagati ya makumyabiri na mirongo itatu bigatuma ingoro ziteza imbere mu gihe gito

Inka z'inyambo ni inka, zigaragaraza umuco nyarwanda, ni inka zitwa inyarwanda, kuko zabayeho kera, inzungu zitari zaza, abenshi usanga biyororera inka z'inzungu, kuko nizo zitanga umukamo uhagije, ugereranyije n'inka z'inyarwanda.

Ubucuruzi bw'inyama ni ubucuruzi buteye imbere muri iki gihe, umuntu ukeneye kwirira akanyama ntabwo bimugora kukabona, ajya aho bazicururiza bita kuri Busheri, bakamuha inyama yifuza, akishyura amafaranga.

Ubworozi bw'inkoko bwa kijyambere, ni umushinga mwiza cyane uteza imbere uwawukoze, kuko ntabwo ugora kuwukora iyo wa witayeho, iyo ufite ibiryo bihagije, ukaba ufite n'ahantu ho kororera, ubona umusaruro mu mezi make cyane, cyane cyane inko zitanga inyama zo kurya zikura vuba cyane.

Ingurube ni itungo rigufi ryoroshye kuryorora ,kuko ritanga umusaruro mu gihe gito cyane, kandi rigatanga amafaranga ku mworozi ku buryo bwihuse ,kuko umworozi abona amafaranga binyuze mu byana by'ingurube yagurishije, no mu ifumbire yagurishije.

Amatungo magufi arimo ihene, si byiza kuyashyira ku zuba ryinshi. Biba byiza iyo uyashyize munsi y'ibiti kugira ngo uyarinde umwuma uterwa n'izuba ryinshi.

Ubworozi bw'ingurube bwa kijyambere ,umworozi mu kiraro cye agomba gukoreshamo amavuvu kugira ngo hatazamo ubukonje, ingurube ze zikabona aho ziryama nyuma y'igihe, ayo mavuvu atanga ifumbire ryiza cyane.

Ihene ni amatungo aba mu bwoko bw'amagufi. Ihene nta bwo zigora kuzorora, kuko zitarya ibyatsi byinshi. Iyo ufite umwanya urazahirira ukazizanira aho mu rugo zikirira. Waba nta mwanya ufite ukazahura ukazijyana kuziragira cyangwa ukazizirika mu kinani zikirishiriza.

Gukingira inyamaswa ziryana birafasha cyane， urugero nk'imbwa，imbwa yakingiwe iyo iriye umuntu，ntabwo ishobora kumutera uburwayi，kuko iba yarafashe inkingo.

Itungo rigufi iyo ubonye ryarwaye, biba byiza iyo uhamagaye umuganga w'amatungo, bita veterineri, akagusuzumira akareba ikibazo ryagize, akariha umuti ujyanye n'indwara ryarwaye.

Itungo ry'ingurube ni itungo ritanga umusaruro mu gihe gitoya cyane. Iyo warishakiye umuganga w'itungo bita veterineri, akarikurikirana akamenya igihe ryarwaye akarivura, ritanga umusaruro ushimishije.

Inkoko ni amatungo magufi yoororerwa mu rugo. Ntagoye kuyorora. Kuko yororerwa ahantu hato. Akenshi iyo uri ahantu hafunze, nko mu gipangu, urazirekura zikitoragurira zikishakira ibyo kurya. Zitanga umusaruro w'amagi. Iyo ubishatse urarariza ugakuramo udushwi.

Intama ni amatungo aba magufi, ntabwo agora kuyorora, yororerwa mu rugo, iyo utabonye uko ujya kuyahirira, ukajya kuzirika mu kinani, akirishiriza ubwatsi akeneye, noneho ukajya kuyacura.

Umushinga wo korora ingurube ni umushinga mwiza cyane, iyo wawuteguye neza ubyara inyungu mu gihe gitoya. Icyo usabwa ni ukuba ufite ibiraro bihagije kandi byujuje ubuziranenge ari aho kurira ibiryo n'aho kunywera amazi.

Abavuzi b'amatungo bazwi cyane ku izina ry'abaveterineri bafasha aborozi mu bworozi bwabo, batanga inkingo ku matungo mu gihe gikwiye kandi iyo itungo ryarwaye veterineri aritera umuti rikabasha gutanga umusaruro mwiza kandi mwinshi.

Ubworozi bwa kijyambere bw'inkwavu bwihutisha iterambere ry'ubwoworozi, bufasha kwakira amafaranga mu gihe gitoya kuko inkwavu zitangaga umusaruro mwinshi mu gihe gitoya, igatuma umworozi wazo yiteza imbere, akaba atagirana n'ikibazo cy'inyama kuko aba yorora inkwavu.

Mu ngurube za kijyambere， habamo ibipfizi，hakabamo n'ibishashi，ibipfizi bihura n'ibishashi， ibishashi bigahaka， noneho bigatanga abana. Ubworozi bwa kijyambere， hakenewe isuku ihagije， ku buryo ikiraro kiba gisakaye neza ahantu hose.

Mu bishanga byitaweho neza hazamo inyamaswa nyinshi zitandukanye, cyane cyane inyoni nziza cyane zikurura amadovize, azanywa n'abazungu baza kureba izo nyoni nziza.

Inyamaswa zo mu ishyamba ziba nziza cyane, twagakwiye kuzibungabunga tukazirinda ba rushimusi bazishimuta abagiye kuzigaburira imbwa zabo, hari n'abazishimuta bagiye kuzirya mu ngo zabo, tukazirinda abagizi ba nabi kugira ngo zikurure abakerarugendo.

Amatungo magufi yo mu rugo afasha mu iterambere ry'urugo, kuko atanga umusaruro mu gihe gito cyane, kandi agatanga ifumbire twifashisha mu buhinzi ,akororoka mu gihe gito cyane ,tugakirigita ifaranga.

Ingagi ni inyamaswa ziba mu ishyamba, cyane cyane mu maparike iyo zibungabunzwe neza zizana amadovize azanwa n'abazungu baje kuzireba, zigatanga akazi no ku basekirite bashinzwe kuzicunga, bityo rero dukwiye kwirinda ba rushimusi bazishimuta bigatuma zigabanuka.

Inyamaswa z'ishyamba zibungwabungwa ziba nziza cyane， kuko zidufitiye akamaro kanini nk'igihugu cyacu， binyuze mu mafaranga abazungu baza baje kuzisura.

Inyoni ziba mu mashyamba ni inyoni zifite uburanga butangaje. Ziba zifite umwihariko kuko ntiziba ahantu henshi hatandukanye, twagakwiye kuzibungabunga tukazirinda ba rushimusi bazica bakajya kuzirya cyangwa bakazigaburira imbwa zabo, kuko zizana amadovize tukiyubakira igihugu cyacu.

Inyamaswa z'ishyamba zifasha igihugu mu buryo butandukanye，zikurura abakerarugendo bakaza kuzireba， bakadusigira amafaranga kubera kureba izo nyamaswa zacu， hari nayo basiga muri hoteri barayemo，iyo baje kureba izo nyamaswa zo mu ishymba.

Inyamaswa nini zo mu ishyamba ni inyamaswa zikwiye kwitabwaho, zigashyirwa ahantu habugenewe, kandi haririnzwe, kugira ngo zitange umusaruro binyuze mu bakerarugendo, zikarindwa guhura n'abaturage kugira ngo zitabarya, bityo umutekano w'abaturage n'ibyabo bikaguma bikabungabungwa.

Ibyatsi karemano ni byiza cyane. Kuko bimwe na bimwe muri byo byatsi ni ifunguro ku nyamaswa zimwe na zimwe. Zikaba n'ubwihisho ku nyayamaswa bityo twagakwiye kubungabunga ibyatsi karemano.

Inyamaswa zo mu mazi cyane cyane inyamaswa nini, zikwiye kurindwa zikarindwa abana. Zikagera ahantu hazabugenewe zigomba kuba, kugira ngo zitangiza abaturage n'ibyabo. Tukazirinda ba rushimusi bazishimuta bagiye kuzirya, cyangwa kuzigaburira imbwa zabo.

Inyamaswa zo mu ishyamba, ziri m'ubwoko bw'inyoni, zagakwiye kubungwabungwa kuko zizana amafaranga, azana na bamukerarugendo baje kuzireba, kuko izo nyoni, zigaragara ahantu hake mu gihugu, cyane cyane nk'ahantu habungwabungwa, nko mu maparike, bagakwiye kuzirinda ba rushimusi, kugira ngo zigire ubuzima bwiza.

Inyamaswa z'ishyamba zikwiye kubungabungwa, zikarindwa kugerwa mu ngo z'abaturage kugira ngo zitagira ibyo zangiza, nko kuba yakandagira umwana cyangwa ikaba yamuruma, ikamutera indwara yakuye mu' ishyamba.

Inyamaswa z'ishyamba ziba mu bwoko bw'inyoni, ni inyamaswa zitangaje kuko ziba zifite amabara yihariye, usanga abantu baje kuzireba bazishimira cyane, cyane cyane abakerarugendo, bigatuma basiga amafaranga mu gihugu tukiteza imbere.

Inyamaswa zo mu rugo ziri mu bwoko bw'inkoko， zitanga umusaruro， uturuka ku magi zateye， cyangwa tukazibaga tukaryamo inyama， cyangwa tukazigurisha bakaduha amafaranga.

Inyamaswa zo mu gasozi ni inyamaswa ziba nziza cyane, kuko zikurura ba mukerarugendo kuko zitajya zirapfa kuboneka, ahantu hatandukanye zizana amafaranga kubera ko ba mukerarugendo bayazana baje kuzireba.

Inyamaswa z'ishyamba zigomba kurindwa, guhura n'abaturage batabyigiye, kuko zishobora kubanduza indwara zitandukanye, bisaba kuzitondera zigashyirwa ahantu habugenewe, kugira ngo harindwe umutekano w'abaturage.

Inkende ni inyamaswa iba mu ishyamba, ifasha ba mukerarugendo mu buryo bwo kwishimisha bayireba, igafasha n'igihugu cyacu mu kwiteza imbere binyuze mu mafaranga azanwa na ba mukerarugendo.

Inyamaswa ziba hafi y'amazi zikwiye kubungabungwa cyane, kuberako zizana amafaranga aturutse mu bihugu byo hanze azanwe n'abazungu baza kuzireba.

Inyamaswa zo mu ishyamba zikwiye kubungwabungwa, zikagira ubuzima bwiza nk'izindi nyamaswa zose, zikarindwa ba rushimusi bazishimuta, zikazana amafaranga avuye hanze y'igihugu, igihugu cyacu kikiteza imbere.

Inyamaswa ziba hanze y'inzu, cyane cyane ziba mu mazi, bakunda kwita wiridi animozi, ni inyamaswa zikwiye kubungabungwa, zikarindwa abagizi ba nabi, zigafatwa neza, kugira ngo zinjirize igihugu cyacu, zizana ba mukerarugendo.